Umwana w'umukobwa wambaye imyenda y'ishuri ari ku rukarabiro hanyumamo arakaraba intoki arishimye arimo aramwenyura.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umuhondo n'umupira w'ubururu bwerurutse, ahetse akaboko akandi gafashe ijerekani, ari kuvomeramo amazi aho yunamye, iruhande rwe hicaye umwana uri kumwitegereza.

Akana k'agakobwa kambaye umupira w’umutuku, kambaye ijipo y’ubururu gafite igikombe cy'icyuma karimo karavomeramo amazi ikirenzeho kandi karishimye.

Hano hari abana batanu baje kuvoma ahantu mu kibaya bane muri bo ni batoya bafite ibivomesho bito barimo baratega amazi umukuru muri bo ari inyuma arimo arabafasha kuba babona ayo mazi inyuma yabo ku ruhande haparitse imodoka y'umweru.

Umugore uhagaze imbere y'abantu, yambaye itaburiya y'umweru (ni umwenda wabugenewe w'abarimu, abaganga n'abandi bakozi batandukanye. Arasa nkaho ari gutanga ikiganiro mu baturage afite indangururamajwi n'ikayi yandikamo utuntu.

Umugore cyangwa umukobwa ubyibushye, arasutaraye, ari kuvoma amazi, inyuma ye hanitse imyenda, arasa n'umuntu urimo uramesa.

Icyumba kirimo abaturage batandukanye, bafite amakayi, amakaramu, basa naho bahuze bari kwandika, bashobora kuba bari mu nama cyangwa se bari guhabwa amahugurwa atandukanye runaka.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyenda isa ni iniforume kandi bose bambariyemo amapantaro mu imbere mu majipo yabo ni abakobwa, bose barimo barakaraba intoki icyarimwe uretse undi umwe mu bahagaze inyuma.

Abana benshi bahuriye ku iriba baje gushaka amazi, ariko ibikoresho byabo ndabona biri hamwe birasa nkaho amazi yabaye ikibazo.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, abamama, abagabo, abana, bambaye udupfukamunwa bamwe muri bo, hari uwambaye umupira w'umutuku n'ingofero uri kwita ku kana n'undi mumama ugateruye.

Abana bakiri batoya bambaye impuzankana, biragaragara ko ari abanyeshuri, bari ku iriba baje kuvoma amazi, bafite indobo z'imihondo n'akandi kavomesho kamwe.

Abayobozi bicaye mu cyumba bari mu nama bari kuganira harimo umuyobozi wabo wicaye ukwe, ku zindi mpande hari abagabo babiri n'abagore babiri n'abayobozi batanu bose hamwe imbere yabo hari amadokima bari kwifashisha bandika n'amazi yo kunywa.

Umugore wambaye imyenda y'ibitenge yambaye amadarubindi, inyuma ye hari abana benshi cyane bamukikije bishimye barimo guseka.

Umurwayi w'umumama ugeze mu zabukuru, arembeye mu bitaro, ari kumwe n'umurwaza we w'umumama, hakaba hari n'umuganga w'umumama urimo kubitaho.

Umugangakazi urimo arasuzuma abakecuru indwara, ndabona uwo ari gukorera yamushyizeho cya gikoresho gipima umuvuduko w'amaraso.

Umumama afite ikivomesho kimwe bamwe bita ijerikani, arimo aravoma ari kumwe n'abandi bana babiri ariko uyu mumama ndabona yishi...

Abana bicaye mu cyumba cyagutse kinini, abenshi muri bo bambaye imipira y'ubururu yandikishijeho amagambo y'umweru, bari kumwe n'abakuru abagabo abamama bicaye kumikeka hamwe na tapi y'umweru n'umukara.

Aha hari umumama wishimye cyangwa se umukobwa mo kimwe arimo arakaraba kuri cya gikoresho cy'isuku, abantu bakoresha kugira ngo kibarinde uburwayi butandukanye ntawe ugikozeho mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza indwara.

Iriba cyangwa se ivomero ririho umwana ufite ibikoresho bitatu bivomerwamo amazi bizwi nk'amajerekani, ari kuvomera kimwe muri byo, arishimye arimo araseka, ni umwana ubona ko yishimye pe.

Hano hari iriba cyangwase bamwe babyita ivomero, ririho abantu bane batandukanye, hariho umumama umwe, n'abandi bana batatu, akana gato kari kuvoma, umukuru muri bo muri abo bana arimo aragafasha kubona amazi.

Icyumba kirimo abantu bahujwe n'igikorwa, ndabona basa n'abari mu nama, bafite amakaramu barimo barandika ibivugwa, abibereye mu matelefone, imeza iteretseho ibikapu byabo, inama barimo baranywa amazi y'ubwoko bwa Nile, ni ahantu bisa naho haba hiyubashye.

Imbangukiragutabara ni imodokadoka yifashishwa mu kwihutisha abaturage igihe bahuye n'ikibazo, mu rwego rwo kubaha ubutabazi bw'ibanze iri ahantu hari abantu benshi cyane bisa nkaho yiteguye kuba yatanga ubufasha mu gihe runaka.

Hano hari abantu, ndahabona umumama ufite indobo yaje kuvoma amazi, ndahabona n'abandi babiri barimo baramufasha kubona amazi, ni ahantu hasa n'ahashaje hubatswe kera.

Abana babiri bari ku iriba cyangwa se ivomero, barimo baravoma, agakobwa karimo karatega amazi, agahungu karimo karamufasha kuzamura amazi kugira ngo babashe kuyabona.

Hano hari itente riri ahantu hagutse mu kibuga abaganga bahashyize, baje gutanga serivisi yo kwita ku baturage, mu by'ukuri barimo barasuzuma indwara zigiye zitandukanye.

Umusore wambaye umupira warakosite yambaye amarinete, ari imbere y'umugore uteruye akana kambaye umupira usa n'uwuwo musore arimo araragaha amata.

Abana bato bambaye impuzankano, bari kwitabwaho n'abandi bantu bakuze, harimo umumama, umusirikare n'abandi batandukanye, bari mu gikorwa cyo kwita kuri aba bana.

Abana batoya bambaye impuzankana, ikigaragara cyo bambaye imyenda y'ubururu iriho ikirango cy'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita kubana n'uburere bw'abana.

Hano hari umwana w'umukobwa, ukiri mutoya, yasetse, asutaraye imbere ya robine, yatezeho ibiganza byombi, arimo aratega amazi, imbere ye hari ibijerekani yazanye kuvoma.

Umwana ukiri mutoya yambaye ikabutura y'umutuku, inkweto z'ubururu, ari ku ivomero arimo aranywa amazi yifashishije ibiganza bye.

Abaganga babiri bari mu cyumba cy'umurwayi, umwe muri bo ari kwita ku murwayi yamufashe ukuboko arasa n'urimo kumusuzuma, undi ahagaze iruhande rwabo afite dokima mu ntoki.

Ku gipfunsi. Hano hari abantu harimo umusore, n'abakobwa, cyangwa se aba mama bari muri gahunda twise ku gipfunsi. Bambaye imipira isa, bafunze igipfunsi nkuko iyo gahunda ikorwa, yo guterana murare, kumva ko ibintu byose ari sawa bambaye n'ingofero z'umweru.

Hano hari umuntu bagaragaje cyane, ni umusore, ameze neza, afite inyogosho nziza, yambaye rinete, ari kumwenyura arishimye, hari akana akozeho gahagaze ku munzani upima ibiro, bambaye imipira isa, uwo musore n'aka kana.

Abaturage benshi bari mu ngero zitandukanye bahagaze iruhande rw'iriba cyangwa ivomero, umwe muri bo n'umumama arimo arafasha umwana w'umuhungu mutoya kuvoma amazi.

Abamama babiri, bahagaze ku iriba cyangwa ivomero, bari kumwe n'ibivomesho byinshi, umwe muri bo arunamye arimo aravoma.

Hano hari abaturage bafite ibivomesho byinshi cyane, bari ku iriba, ikigaragara cyo bari mu gihe cy'ibura ry'amazi, baba baje kuyashaka ari benshi cyane.

Hano hari abana baranezerewe barishimye barimo baraseka, bari mu mazi m'u Rwanda ibintu barimo tubyita kwidumba cyangwa se koga, bari mu mazi magari barimo barishimisha.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano bose, buri wese yamanitse ukuboko hejuru, inyuma yabo hari abantu bakuru, harimo abantu b'inzobe babiri, abandi ni ibikara, bari mu mujyo umwe, barishimye.

Abana babiri umwe muri bo afite igikombe kirimo amazi, undi ateze intoki barimo baramusukira amazi ari gukaraba.

Umugore wunamye ahetse umwana ari ku iriba arimo arakorera isuku ibikoresho, biragaragara ko akunda kwita ku buzima.

Abana benshi bahagaze ahantu ku ivomo bateze ibiganza byabo ahari guturuka amazi, hari ibase y'umutuku yuzuyemo amazi hari abandi bana hirya ku ruhande bari kwitegereza abo ngabo bari koga ibiganza.

Hano hari gahunda yo kwita ku isuku, hari agatanda k'amasahani kubakishije ibiti, hejuru yako hari ibikoresho nk'amasahani ibikombe n'ibindi byifashishwa mu gufata amafunguro.

Ivomero ryahuriweho n'abana benshi bato bato gusa abo bana barimo baraseka wagira ngo baje gukaraba bafite ikindi gikorwa kibarangaje imbere.

Umugabo arimo arakorera umwana mutoya ikivomesho, kiriho ikirango cy'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku burere bw'abana.

Abana bane bari ku ivomero, babiri muri bo bitaye ku mazi, umwe arimo arazamura, undi avoma, abandi babiri ntacyo bitayeho, umwe muri abo bafite icyo bitayeho, afite inkoni, ameze nk'umuntu waje kuragira.

Iriba ryahuriweho n'abana bane ariko hari abandi bafite ibyo barimo, ntabwo bose baje kuvoma kuko hari ibivomesho bibiri. Umwe afite agakoni asa nk'aho ari mu kindi kintu we ntabwo yaje kuvoma.

Hano hari umugore uteruye akana, afite ibipapuro mu ntoki, yambaye agakomo, yambaye imyenda idoze mu bitenge isa n'igitambaro yiteze kirasa n'imyenda, inyuma ye hari abandi babyeyi benshi bicaye biragaragara ko baje kwa muganga mu kibazo cyo kwita ku bana babo.

Iriba cyangwa ivomero, riri ahantu hegereye igihuru, hari umwana w'umukobwa cyangwa se umumama waje kuvoma amazi yitwaje ibivomesho bibiri.

Hano hari umwana w'umukobwa mutoya usutaraye, arimo araseka arareba ku ruhande ikindi kandi arimo arakaraba intoki yateza ibiganza kuri robine.

Abana bane barimo barakarabywa n'umugabo ubari iruhande, umugabo afite agakombe arimo arasukisha amazi akarabya abana abo bana bahagaze ku ibasi.

Abagabo bari mu nzu bafite ikintu kibahugije cyane bari kwitegereza barakurikiye ikigaragara ko bafite gahunda nziza harimo abafotora ,harimo abareba ,harimo abari kubereka bameze nk'abaforomo n’abagabo bishimiye yuko iyo gahunda ibarangaje imbere.

Abamama bane bari kumwe n'akana gatoya bari ku iriba barimo baravoma umwe afite indobo y'umutuku undi afite indobo y'ububururu, ufite indobo y'ubururu yambaye amaherena manini, iriba barimo kuvomeho ririho icyapa kigaragaza ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku bantu.

Icyumba cyo kwa muganga aho bakirira abarwayi, abaganga babiri barimo barakira abarwayi umurwayi ugezweho ni umumama wambaye apfukawa, wambaye ikoti ry'umukara ari kumwe n'akana ke gatoya.

Hano ni kwa muganga hari umumama wambaye umupira w'umweru witeze n'agatambaro k'umweru, iruhande rwe hicaye abandi bana babiri, hari umuganga umuhagaze iruhande ufite utuntu mu ntoki, hari n'undi umuri imbere ufite ikayi urimo urasoma.

Abana bane barimo barashaka amazi, bari ku iriba, rya riba umuntu abona amazi ari uko yakoresheje imbaraga ze, afata icyuma akizamura yongera akimanura, akizamura yongera akimanura. Ni amazi meza cyane y'isoko ariko biragoye kuyabona.

Urubyiruko rwambaye imipira y'ubururu harimo. abambaye imipira y'umweru bambaye agapfukamunwa bari ahantu heza cyane baricaye imbere kumezaeza hateretse amazi na dokima barimo barifashisha biragaragara ko bashobora kuba bari mu nama.

Abantu benshi cyane batandukanye harimo abambaye impuzankanana, harimo umupolisi, ikigaragara cyo bitabiriye igikorwa cy'umuganda barimo baratera ibiti birasa nk'aho ari imbuto barimo baratera.

Umusore ukiri muto w'umuganga, yambaye imyenda y'akazi y'umweru nk'ibisanzwe, yambaye na bagi y'akazi arimo arita ku barwayi, afite umukecuru imbere ye arimo arasuzuma n'undi mumama umuhagaze iruhande.

Hano hari abantu benshi, bishimye bagaragiye akana gatoya, bamwe muri bo bambaye impuzankana, abandi muri bo bambaye uko bashaka, barangajwe imbere no kureba akana gatoya kambaye imyenda y'umweru, sinzi icyabaye.

Abamama babiri umwe afite umwana muto undi mumama arimo aratanga ubufasha kuri uwo mama ufite umwana ikigaragara cyo, umwe ni umuganga ari gufasha undi ufite umwana.

Abaturage bahuriye ahantu hamwe imbere yabo hahagaze umugabo usa naho arimo aratanga ikiganiro, inyuma y'uwo mugabo hahagaze undi mugabo uri kumwe n'umugore bamuteze amatwi, bafite gahunda barimo barakurikirana.

Abamama bambaye amajiri asa bari imbere y'inyubako inyuma hari abagabo barimo bose barasetse urabona ko bari mu bihe byiza.

Icyumba kirimo ameza manini cyane kicayemo abantu harimo abagore babiri n'abagabo batandatu urabona ko bari mu nama, ni abasirimu cyane.

Hano hari abana batatu bishimye, ikigaragaza ko bishimye ni uko bari kumwenyura, bari gukaraba, bafite ikintu bari kureba kuruhande, bari ahantu heza rwose baranezerewe.

Umusore w'umusirimu wambaye rinete ufite inyogosho nziza, afite isahane iriho ibiryo arimo aragaburira akana gateruwe n'umumama wambaye umupira w'umweru.

Abaganga bagera kuri batanu bahuriye ku murwayi umwe. Ni ikintu kigaragaza ko arembye cyane barimo baramuha ubutabazi bushoboka bwose kugira agarure ubuzima.

Abana batatu bakiri batoya, baje kuvoma amazi, bari kumwe n'undi mwana w'umukobwa usa nkaho ari mukuru muri bo, arimo arabafasha kuvoma.

Abateruzi b'imizigo, hari aba mama babiri n'umugabo umwe barimo baraterura imifuka, umugabo umwe ari hejuru arimo arajya ayihereza aba mama bari hasi bagaterurana ko ari babiri.

Abayobozi bicaye mu cyumba cy'inama baragaragara ari bane babiri muri bo ni abagore, abandi babiri muri bo ni abagabo, abagabo bafite mashini imbere yabo zizwi nka laputopu kandi bose hamwe imbere yabo hateretse amazi, umugore muri bo afite irangururamajwi ari kuvuga.

Icyumba kirimo abantu benshi bicaye ku ntebe zitandukanye, bahuriye ku meza amwe bari mu nama bose baricaye uretse umugore umwe uhagaze wambaye imyenda y'imihondo.

Hano hari umumama uteruye umwana, ahagaze kuri robine, yazanye indobo y'umukara, yaje kuvoma amazi, inyuma ye hari ibiraro, hakurya hari ibiti biri ahantu hatuje.

Umwana w'umukobwa mutoya wishimye, afite imisatsi isutse cyangwa se iboshye, arimo arakaraba ibiganza bye n'amazi, ari gukarabira mu ibasi. Yambaye imyenda isa, idodesheje, ishati n'ijipo.

Abantu bari mu cyumba, bizihiwe barimo barabyina bafite ikintu bishimiye, birashimishije kuko bose baranezerewe.

Umwana mutoya afite igikombe kinini cyane cy'icyuma bimwe bya kera, ari iruhande rwa rubine ebyiri zose zizana amazi ari kuvoma aseka.

Abamama batatu bari ku iriba baje kuvoma amazi bambaye ibirenge umwe muri bo arimo aravoma abandi babiri barimo barakora iyo bwabaga ngo barebe ko bazamura amazi.

Umusore w'umusirimu wambaye rinete afite umusatsi mwinshi yogoshe neza arikumwe n'umu mama wambaye umupira w'umweru uteruye akana, akana ateruye gafite umupira usa n'uw'umusore umuri iruhande.

Hano hari abagabo benshi batandukanye, bari mu cyumba kimwe, hari agatsiko karimo abagabo icyenda, barimo baranywa bameze neza bari kuganira basa naho bahujwe n'ikintu cyiza cyane barishimye.

Abana batatu bambaye imyenda y'ishuri, umwe muri bo yambaye itandukanye n'iy'abandi, barimo barakaraba intoki n'amazi n'isabune, ibiganza byabo byuzuyeho isabune kandi buri wese afite robine ye arimo arakoresha.

Abamama batatu barimo baravoma amazi umwe muri bo arimo arayatega abandi babiri barimo barashaka uko amazi yaza.

Umumama ahetse umwana mu mugongo, yambaye agapfukamunwa, afite n'undi mwana umuhagaze iruhande, arimo arashigisha igikoma mu isafuriya iteretse kumbabura , iruhande rwe hari indobo y'icyatsi.

Hano hari icyapa kiriho isange wane sitopu senta kikabaho ikirangantego cya polisi y'igihugu y'u rwanda, hakabaho ikirangantego cy'u rwanda gisanzwe, hakabaho n'ibindi birango bitandukanye.

Abasore bakiri batoya bambaye imyenda isa yo hejuru ni imipira y'imikara ifite akarango mu gatuza ku mutima bicaye muri salle imbere yabo hari undi murongo uriho abagore n'abagabo inyuma yabo hari abandi bantu hirya kuruhande hari umukobwa uhagaze mu muryango wambaye nkabo.

Umugabo wambaye imyenda y'incwabari afite ikibazo cyo mu mutwe abazwi nk'abasazi arimo arasuhuzanya n'undi mugabo wambaye neza bari ahantu mucyumba cy'inzu.

Ifoto iriho abana bishimye cyane baranezerewe, bamwe muri bo bambaye impuzankana, harimo umwana wifashe ku munwa, harimo umwana udafite amenyo n'abana bashimishije cyane.

Umusazi ahagaze mu muhanda inyuma ye hari ikamyo nini cyane, yambaye imyenda yacitseguritse ahetse ibintu by'ibifuka, bitandukanye yagiye atoragura mu muhanda.

Umugabo wifashe nk'ufite ikibazo gikomeye, ashobora kuba arwaye, ashobora kuba afite ikindi kibazo cyamutesheje umutwe, bituma atamera neza, ari kumwe n'umumama cyangwa se umugore we, ni umuntu w'igitsina gore umuri iruhande usa n'uri kumuhumuriza.

Abagore bane bicaye ku ntebe y'urubaho imbere yabo hicaye umugabo nawe yicaye ku rubaho rwe barimo baraganira ariko umugabo yicaye iruhande arimo arishima mu mfundiko.

Hano hari icyumba k'inama kicayemo abagore bicaye ku meza maremare ateretseho amazi imbere yabo n'amatelefone n'amakayi barimo barandikamo ibivugirwa mu nama imbere yabo hari undi mugore munini uri kubaha ikiganiro.

Ni umukecuru ukuze ariko afite ikibazo cyo mu mutwe, mu byukuri ni umusazi agenda atoragura ibicupa n'amashashi mu muhanda.

Abana bicaye ahantu, bafite ikintu barimo barareba, babiri muri bo batangaye, abandi bumiwe, barimo barareba badahumbya, urabona ko kandi banezerewe.

Imodoka nini cyane nziza iri kwifashishwa mu buvuzi twayihita nkaho ari ivuriro rigendanwa, iri kwifashishwa n'abaganga mu kwita ku baturage ku kibazo kijyanye n'ubuzima bw'umuntu.

Urubyiruko rwambaye imipira isa, ruri kumwe n'umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'undi muzungu w'umumama, bafashe ifoto bose bamwenyuye.

Umubyeyi uteruye akana gatoya, kataramera amenyo, akana karishimye kari guseka, kimwe n'umubyeyi wako arishimye ari guseka.

Umusaza w'umurasita, yambaye imyenda y'ubururu, afite imisatsi imeze ukuntu, arashaje, afite amenyo y'umuhondo, afite inyinya hasi no hejuru, biragaragara ko yakutse amenyo.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru, afite imisatsi myiza cyane isutse iboheye hejuru, afite inzara nziza, ibiganza bye yabishyize mumutwe yacuritse umutwe ni ikigaragara ko atishimye.

Hano hari umumama w'umusirimu wambaye imyenda y'akazi, afite ikaramu mu ntoki, yambaye impeta, yambaye isaha, yambaye rinete, yambaye bage y'akazi, imbere ye hateretse amazi yo kunywa, inyuma ye hari abandi bantu benshi batandukanye, harimo undi muntu wambaye ikoti ry'umutuku.

Umugabo ufite isura itanejeje na gato arimo aratemba amarira ku maso ibimwira birimo birashoka ku mazuru arareba n'ufite agahinda gakomeye cyane isura ye ntishimishije habe n’agato.

Ivuriro ryitwa karayesi rifite inyubako nziza cyane rifite aho binjirira heza hagutse, iruhande rwaho hari jaride cyangwa se ubusitani burimo indabo zimeze neza.

Umugabo wambaye inshwabari n'ibintu by'imyanda byinshi bitandukanye yagiye atoragura, urabona ko ari umusazi wirirwa utoragura imyanda mu muhanda.

Hano hari abantu babiri, hari umukobwa wambaye ikanzu y’ubururu n'umweru ufite agapupe k'ingwe mu ntoki, arimo araganirizwa n'umuganga wambaye imyenda y’imikara kuko afite ikibazo cyo mu nda.

Umumama wicaye iruhande rw'igiti yicaye ku musambi yambara agapira k'umweru yifashe mafubyi ariko ukuguru kwe kuraboshye kuzirikanyije n'igiti.

Umugabo wambaye igishati kinini ni kigofero gishaje afite ni cumu yasetse afite ibihanga yambaye umukenyerero w’umuhondo.

Abana bakiri batoya bambaye impuzankana ni abana biga mu mashuri abanza bafite udukombe turimo amazi n'uburoso barimo baroza amenyo yabo.

Akana kakiri gatoya, kishimiye ubuzima kabayemo, karasamye kari kwerekana amenyo, biragaragara ko hari umuganga urimo urakitaho kubijyanye n'amenyo, ariko ntacyo bikabwiye kari guseka.

Hano harumukobwa afite icyirori, arimo arireba yasetse arishimye cyane, biragaragara ko afite akanyamuneza.

Ni babiri, umugore n'umwana we, bafite akadodo bari gucisha mu menyo bambaye imipira y'umweru barishimye bari ahantu heza.

Umugabo ufite akadodo mu ntoki yasetse, ari kugaragaza amenyo ururimi afite ubwanwa bukeya urabona a ko anezerewe.

Ishuri ririmo abantu batandukanye abagabo batatu, abagore babiri umugore umwe ni umuzungu, umugabo umwe muri bo yambaye itariya afite ibyo arimo kwereka umwana w'umunyeshuri muto.

Umwana ukiri mutoya wambaye akenda ko hejuru k'umuhondo, afite iherena ku gutwi, afite umusatsi muremure w'umukara arasamye, umuganga arimo aramurebera mu kanwa, arimo aramusuzuma indwara.

Ishusho isa neza cyane, iriho umugabo wambaye agapira ka keru, ufite amenyo asa neza, ni umugabo usa neza cyane w'umusirimu, inyuma ye hari ibara ry'umuhondo yifotorejeho.

Umwana ukiri mutoya ari kwa muganga biragaragara ko afite ikibazo cy'amenyo kuko umuganga arimo aramwitaho ari kumurebera mu kanwa.

Umusore ukiri muto, afite akadodo mu ntoki, arimo arakururisha ibiganza byombi, afite amenyo meza cyane, yasamye, arimo arashyira ka kadodo mu kanwa.

Abana bato b'abanyeshuri bambaye impuzankano imwe, umwe muri bo yambaye n'umupira w'ishuri yarengeje ku mpuzankano isanzwe. Bamwe bafite uburoso barimo baraborosa, barimo barasukura amenyo yabo.

Umwana ukiri mutoya yaje kwa muganga, umuganga bari kumwe arimo aramwasamura mu kanwa, agenzura neza mu kanwa nimba amenyo ye ameze neza, yafatishije umunwa akuma kabugenewe awigizayo, arimo aragenzura amenyo ye.

Umwana mwiza w'inzobe ufite imisatsi myinshi, muganga ari kumukura amenyo, ni umuganga wambaye ga mu ntoki ufite n'ibyuma bakoresha bakura amenyo.

Abana bicaye mu ishuri mu ntebe zikozwe mu biti bambaye imyenda y'ishuri itandukanye, bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki na korogate bose babimanitse hejuru barimo baraseka.

Muganga arimo arasuzuma amenyo umukobwa ukiri mutoya, ugaramye ku gitanda yamwasanishije, ari kumureba mu kanwa niba afite ikibazo.

Umumama wambaye iserengeri y'umweru afite igikoresho cyifashishwa mu koza amenyo kizwi nk'uburoso ari kumwe n'akana ke gatoya nako kambaye kimwe na mama wako karimo karanakora ibyo mama we ari gukora.

Igikorwa cya arabisi, ikigo gishinzwe kwita ku buzima mu Rwanda, hari abakozi barimo barafasha abaturage bafite gahunda barimo ijyanye n'ubuzima.

Umugabo wambaye ubusa afite isume ku rutugu n'akadoda mu ntoki arimo aragakwega yasetse ari kwerekana amenyo.

Umuganga w'umusore n'uw'umukobwa bafatanyije barimo barita ku mwana ukiri mutoya yasamye barimo baramusuzuma amenyo.

Umukobwa ufite imisatsi myiza y'umukara miremire, yambaye agakanzu k'umweru, afite uburoso bw'amenyo mu ntoki arimo ariborosa.

Umugabo afite ubwanwa bukeya afite akadodo mu ntoki hanyuma agakosha ibiganza byombi uko ari bibiri yamwenyuye amenyo ye afite inyinya.

Umumama biragaragara ko ari umuganga w'amenyo, ari mu kazi ke. Arimo aravura umurwayi w'amenyo, ndabona ari umugabo w'igikara utuje arimo aravurirwa ahantu heza cyane. Bigaragara ko ari mu gihugu cyateye imbere.

Abana bakiri batoya bambaye imyenda y'ishuri, biga mu mashuri abanza bafite ibikoresho bifashisha mu koza amenyo bizwi nk'uburoso, barimo barasukura amenyo yabo.

Umusore yasetse cyane, arimo agaragaza amenyo ye, afite akantu kameze nk'urudodo mu ntoki yanyujije mu menyo kandi afite inyinya.

Icyumba kigirwamo, kirimo abarimu n'abandi bantu basa n'abagisuye, barikumwe n'umwana bigaragara ko barimo baramuhemba cyangwa bafite ibindi bintu barimo baramwereka.

Umwana ukiri mutoya, ubyibushye mu maso, afite udutama tunini, amaso y'umweru, amenyo y'umweru, arimo aroza amenyo ye, yifashishije uburoso bwoza amenyo.

Umugabo wambaye umwenda wo kogana w'umukara avuye muri dushe ariho arasukura amenyo ye yambaye impeta ku kuboko, afite ubwanwa buringaniye ari ahantu heza cyane.

Umusore uri ku gikuta gisa umweru, yambaye umupira ujya gusa umukara, afite ubwanwa yasetse ari kwerekana amenyo ye yogoshe neza, n'umusore mwiza cyane.

Hano hari umwa w'umukobwa bagaragaje mu mumaso ye, afite imisatsi myiza iboshye neza yasetse imbere ye hari umuganga arimo arapima amenyo ye, ngo arebe ko angana n'amenyo y'amateraniro abashe kuba yabimenye.

Ni umusaza n'umukecuru bari mu bukwe bicaye ahantu mu gisharagati, umusaza yambaye ingofero y'umukara, umukecuru yambaye ikinigi kirimo umweru n'umukara n'udukomo ku kuboko, inyuma yabo hari abandi baturage benshi batashye ubukwe.

Umukecuru uri mu za bukuru afite umusatsi mwinshi wiganjemo umweru gusa, yambaye rinete z'umutuku apfutse ku munwa birasa nk'aho arimo aratamira ibinini afite igikombe cy'ikirahure kirimo amazi arimo aranywesha imiti.

Hano hari umubyeyi uri kumwe n'akana ke, bicaye muri saro, bari ku meza, barimo barakina udukino dushimisha umwana, barishimanye.

Umusaza wambaye umupira w'umweru ipantaro y'umukara afite n'utujyanamajwi turi mu mumatwi ari kumva uturirimbo; ari muri siporo urarabona ko yiyitaho.

Umugore n'umugabo bicaye mu rugo mu nzu barimo baraganira umugore afite laputopu mbere ye ku meza, umugabo afite agacupa arimo arereka umugore we arimo arasoma ibintu bikanditseho.

Umugabo ukuze wambaye rinete yicaranye n'umukobwa usa nk'aho ari umugangakazi, arimo aramuha serivisi, barishimanye ibyo barimo bari kubikora baganira.

Abakecuru babiri bahagaze mu gikoni kiza cyane, imbere yabo hari imbuto, imboga zo guteka, robine, ibikoresho byo mu gikoni inyuma yabo. Igikuta bahagaze iruhande kiriho isaha urabona ko ari igikoni cya kijyambere.

Umusaza wambaye ishati ya kake, afite umusatsi watangiye kuba umweru urabona ko asheshe akanguhe, ari kumwe n'umuganga w'umugabo ufite ubwanwa bwakuze n'umusatsi weze, arimo aramuganirira amwereka igitabo afite ibyo arimo aramugiramo inama.

Umugabo ugeze mu za bukuru, yicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga, inyuma ye afitwe n'umwana w'umukobwa w'umuganga, ari kumwitaho, ariko abafite ikintu barimo barareba.

Umusaza wicaye ari kumwe n'umukecuru barimo barasoma amabwiriza yanditse ku gapapuro, agenga kunywa imiti uwo musaza afite ibinini mu ntoki agiye kunywa n'ikirahure cy'amazi giteretse imbere ku meza agiye kwifashishanywa imiti.

Abamama batatu bakuze, uri hagati yambaye umuhondo hejuru, abamugaragiye bambaye imyeru, umwe muri bo afite umusatsi w'umukara abandi bafite imisatsi y'imyeru, bari kureba muri telefone, barishimye, bameze nk'abari kwifotoza.

Umusaza n'umukecuru barishimye bari guseka, kandi bicaye ku meza amwe barimo barasangira amafunguro.

Umugabo arimo arakina n'akana ke k'agakobwa gatoya, bari mu kibuga gikinirwamo umukino w'amaboko uzwi nka basiketi, baranezerewe.

Umugore n'umugabo cyangwa se umusaza n'umukecuru bari mu rugo, barimo barafungura, bicaye ku meza ariho ibiribwa byiza. Umugabo arimo ararya, umugore arimo arasuka icyo kunywa.

Umukecuru ukuze ufite umusatsi watangiye kuba umweru ari kumwe n'umuganga w'umugore barimo baraganira baratera ibiparo baraseka bameranye neza.

Hano hari umusaza n'umukecuru wicaye muri resitora imbere yabo hari umukozi wo muri resitora arimo arabaza icyo bakeneye ariko umukecuru afite agasani karimo imboga arimo aririra.

Umusaza bari kuhagira mu mutwe, afite imisatsi yabaye umweru, arahumurije, ibiganza bibiri bimurika ku umutwe biyora amazi biyamushyiraho binamusiga isabune mu mutwe.

Abagore batatu bavuye muri siporo, babiri muri bo bambaye imyenda undi yambaye ukwe, inyuma yabo hari abagabo babiri nabo bavuye muri siporo.

Umusaza wasamye kubera guseka cyane. Yambaye linete, ari kumwe n'umwana we w'umuhungu ukiri mutoya w'umusore. Barimo barasoma inkuru isekeje mu gitabo, imbere yabo hateretse ibikombe barimo baranyweramo ku meza.

Hano hari umusaza wambaye umupira w'umukara, afite ubwanwa bw'umweru, ari kumwe n'umuganga cyangwa se umukobwa we, arimo aramufasha kunywa imiti, imbere yabo hari ameza ateretseho ikirahure kirimo amazi agiye kwifashisha kunywa imiti.

Abamama babiri bakuze bari muri siporo, ni ibintu byiza cyane bishimishije kubona abakecuru nk'abangaba bari muri siporo.

Abasaza n'abakecuru bicaye mucymba kumukeka, umusaza umwe muri bo arimo araboha igikoresho kiboshye mu bimera.

Umusaza wambaye ishati ya kaki ufite ubwanwa bwabaye umweru, arogoshe, ari kumwe n'umuganga wambaye itaburiya y'akazi y'umweru n'imisatsi myiza miremure ari kumupima mu kaboko.

Umusaza ukuze arimo aritabwaho n'umuganga w'umukobwa ukiri muto, arimo aramwambika igikoresho kifashishwa mu gusuzuma abantu, nimba bafite umuvuduko w'amaraso.

Icyumba kirimo abantu batatu, umwe ni umusore, undi ni umusazasa, undi ni umukobwa cyangwa umumama, babiri muri bo umugore n'umugabo barimo barafasha umusaza ugeze mu za bukuru guhaguruka, bari kumwitaho kuko nta mbaraga afite.

Umusaza n'umukecuru bari mu nzu bambaye imyenda isa y'imituku, ariko umukecuru umupira we hanyuzemo uturongo tw'umukara, imbere yabo ku meza hari udukoresho twinshi dutandukanye, amarinete udukombe, ibinini n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Umuryango urimo umusaza n'umukecuru n'abana batatu barishimye bifotoje ifoto bose barimo guseka.

Umusore wambaye umupira w'umutuku ari kumwe na mushiki we wambaye umupira w'umweru, mama wabo abari hagati yambaye umupira w'umukara n'undi wa kaki, barimo baratunganya ibyo guteka.

Hano hari umugabo ugeze mu za bukuru wambaye ishati yubururu na agapfukamunwa, ari kwitabwaho nu muma cyangwa umukobwa wambaye nawe agapfukamunwa ufite imisatsi myiza wambaye ishati yicyatsi.

Umusaza ukuze ufite uruhara, afite ubwanwa bwabaye umweru, afite ikirahure kirimo amazi, ari kumwe n'umuganga uri kumuha imiti, biragaragara ko agiye kunywa imiti.

Umusaza n'umukecuru bicaye barimo barakina bombi, barishimye bari guseka ikindi kandi bafite umusatsi w'umweru baranezerewe.

Umusaza ukuze usa n'umuganga cyangwa umwarimu, urabona ko ari umusaza wiyubashye yambaye rinete, afite ikayi n'ikaramu arimo arandika.

Ahantu hari ababyeyi bagera muri batandatu, bicaye aho bacururiza imbuto n'imboga, imbere yabo hari ibikoresho birimo inyanya zihishije cyane.

Umu mama ukuze wambaye imyenda y'umweru yasheshe akanguhe, afite umusatsi nyine urimo imvi umusatsi w'umweru, ari kumwe n'umwana ukiri muto bigaragara ko ari kumwitaho ashobora kuba ari umukobwa we cyangwa ari umuganga umwitaho.

Hano hari umusore wambaye agapfukamunwa, barimo baramutera urushinge hafi y'urutugu ku kuboko, ari kuruterwa n'umusaza wambaye ingofero y'abayisilamu, nawe yambaye agapfukamunwa.

Hano hari icyumba kirimo intebe z'umutuku cyicayemo abantu benshi cyane bari mu nama, umwe muri bo ni umu mama ubyibushye cyane afite mikoro arimo aravuga hari n'undi mugabo uhagaze kuru ruhande urimo afotora ibiri kubera aha hantu.

Hano hari ikirango mbona kiriho utundi turango duto duto dutandukanye, ariko ndabona wagira ngo ni umunsi wahariwe Diyabete mu Rwanda, kuko ndabona ikintu kiri kugaragazwa cyane ni indwara ya Diyabete.

Icyapa cy'ubururu cyandikishijemo amabara y'umweru, gishatse kuvuga mu kinyarwanda ubuzima bwiza n'imibereho myiza, gifite akarango k'umutima n'ak'umurongo uvunaguye.

Icyapa kiriho ibirango bimeze kimwe ariko biri mu bika bibiri bitandukanye, igika cya mbere kiri mu mabara y'ubururu ni ikijyanye n'ubushakashatsi ku buzima, icya kabiri kiri mu mabara y'icyatsi ni ikijyanye na sayansi y'Uburasirazuba bw'Afurika.

Umusaza wambaye ingofero n'amarinete n'umupira w'umukara afite urupapuro rw'umweru runini cyane rwanditseho amagambo asobanura ko indwara ya makibogisi yabonewe urukingo ubu ngubu umuntu yarufata.

Abagabo babiri ni abanyarwanda kuko inyuma yaho ndahabona cya kirangantego cy'u Rwanda, bafite dokima mu ntoki sinzi, bambaye amakote, bameze neza ni abagabo b'abasirimu.

Icyumba cy'inama cyangwa se sale ikorerwamo inama, harimo abagabo bakuze, bambaye neza, bagaragara nk'abayobozi bakomeye, bari mu nama.

Icyumba cy'inama, harimo abagabo, abagore n'abantu batandukanye bisa n'aho bari kwiga ku kintu runaka, ni inama yabaye muri bibiri na makumyabiri na kane y'ibijyanye n'ubuzima.

Hano hari abakobwa bakuze bari ahantu mu nyubako, bicaye ku ntebe z'imyeru za purasitiki, nabo bambaye imyeru, abenshi muri bo imisatsi yabo irasutse, ni abakobwa babasirimu.

Umusore n'umugore ni abantu babiri b'igitsina gitandukanye bahagaze bari imbere y'ibendera ry'igihugu cy'u rwanda bafite icyapa cyanditseho twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira barimo baramamaza uko wakwivuza indwara y'igituntu.

Abagabo bicaye mu nama bambaye neza, bambaye amakoti bari kumwe n'abagore nabo bambaye neza bari mu cyumba cyabereyemo inama, bari gufata ifoto.

Hano hari umugore bari gutera urushinge, arasa n'umuntu wikanze cyane biragaragara ko asanzwe atinya urushinge, yahumirije yambaye agapfukamunwa, ku mabere ye hari rinete ze yambaye n'isaha ku kuboko ari kwitabwaho n'undi muganga wambaye agapfukamunwa n'isaha inyuma ye hari umu mama munini.

Abamama bane, bateruye abana babo, bicaye hamwe, ikigaragara cyo, aba babyeyi, baje gusuzumisha abana babo.

Gahunda yo kwita ku buzima, harimo abantu benshi bambaye imyenda itandukanye, abenshi muri bo bambaye umweru hejuru, umukara hasi. Bafite ibitambaro binini byanditseho twirinde kanseri y'ibere. Bari mu gikorwa cyo gushishikariza abantu kwirinda kanseri.

Iduka ricuruza imiti y'abarwayi. Baryise Progress, urabona ko rimeze neza ririmo imiti, harimo n'intebe y'umweru ya nyirifarumasi.

Mu bitaro, hano hari abarwayi barembye, bari ku bitanda, bari kwitabwaho, binyuze mu bikoresho byabugenewe, amaserume, bari hamwe nyine n'ikigaragaza ko aba barwayi bari mu bitaro.

Icyumba bakiriramo abarwayi kwa muganga, hicayemo umugabo wambaye ipantaro y'umuhondo, umupira w'ubururu, wambaye n'ingofero y'umukara, afite terefone mu ntoki, ku rundi ruhande hicaye umugore n'umugabo, hari n'undi mugabo urimo arakirwa.

Hano hari inyubako y'ibitaro by'akarere ka shyira ;n'ibitaro bikuru bizwi nka hospital, n'ibyiza birageretse cyangwa se n'itage.

Hano hari inzu yifashishwa mu kuvura ni inzu y'ababyeyi babyariramo imbere yaho hari ababyeyi bane b'abaganga bambaye udupfukamunwa kandi bose bambaye imyenda isa.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Rwerere yubakishije amatafari ahiye ni ngari ikikijwe n'ubusitani bw'indabyo nziza cyane.

Ahantu heza cyane hasukuye, hari jaride nziza cyane irimo imikindo, ibiti byiza bitanga akayaga, hari parikingi irimo imodoka ndabona wagira ngo ni kwa muganga.

Umukobwa ni umuganga yambaye imyenda yabugenewe yifashisha mu kuvura, imbere ye hari akana k'agahinja arimo arakitaho gashobora kuba aribwo kakivuka.

Inzu irimo ibikoresho bisize amabara atandukanye biragaragara ko ari inzu ikunda kugendwamo n'abana cyane ,harimo ibishushanyo hano hari urushushanyo runini rugaragaza inyamaswa y'akanyayamasyo.

Hano hari abantu batatu bambaye kimwe bambaye amashati y'ubururu adoze kimwe biteze n'udutambaro tw'umweru, bose urabona ko bahuje umurimo umwe.

Ivuriro ry'amaso, harimo icyapa kigaragaza ijisho, harimo intebe nziza cyane, ameza ya muganga w'amaso, ibikoresho yifashisha mu gusuzuma abarwayi, ni ahantu rwose heza cyane.

Inyubako nziza cyane zigaragara neza. Iruhande rwazo, hateye igiti cy'intazamarumbo, gitoshye. Munsi yacyo, hari jaride iteyemo pasiparumu. Hirya hari inzu ndende y'umweru.

Hano hari inyubako yifashishwa mu kuvura mu byukuri mu ivuriro ririmo ibitanda bya kijyambere harimo imisego myiza y'umukara harimo ameza yifashishwa n'abarwayi harimo utubati babikamo ibikoresho ni ahantu heza cyane.

Icyumba cyiza cyane kirimo ibikoresho bikozwe mu biti; ameza, intebe, akabati, harimo rido, harimo amashusho meza cyane ni icyumba gisamaje.

Amarembo makuru y'ubujuri ya kigina arafunguye, iruhande rwayo ugana imbere hari umumama uhetse umwana ari kuyarebamo arasa n'ugiye kuyinjira.

Agace gakeye karimo inzu nziza cyane, harimo utuyira twiza, ipoto, indabo, abantu, jaride nziza cyane, ni agace gasamaje gasa naho gatuyemo abakire, gafite isuku, gakungahaye ku kirere cyiza cyane, karashimishije.

Kwa muganga ku nzu ababyeyi babyariramo, inzu nziza yubakishije amatafari ahiye, ni ahantu hameze neza cyane rwose.

Icyapa kiriho akarango kagaragaza amerekezo y'ikigonderabuzima cya Matyazo, iruhande rwaho hari abantu n'amarembo yerekeza muri icyo kigonderabuzima giherereye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye.

Hano hari inyubako, hakoreramo farumasi yitwa Mediasol iherereye i Remera mu karere ka Kicukiro, iruhande rwaho haparitse akamodoka kajya gusa umukara, ku ruhande hirya hari n'akandi kamodoka k'umweru.

Inyubako yo kwa muganga n'inzu ababyeyi babyariramo, iruhande rwayo hari ibaraza rihagazemo umuganga w'umugabo, arahagaze arimo aritegereza imbere ye.

Ahantu hari inyubako nziza cyane hari jaride iteyemo pasparoum imbere y'iyo nyubako hari abantu bahagaze batari kugaragara neza iyo nyubako isize amarangi y'umweru ifite amabate y'umutuku hari n'igiti kiri hino yayo.

Hano hari inzu yifashishwa mu buvuzi. Harimo harinjiramo umugore wambaye agakomo ku kuboko. Wambaye imyenda y'ubururu. Afite imisatsi myinshi y'umukara. Mu mufuka we w'inyuma afite telefone. Aho ari kugana hari ibitanda byiza by'abarwayi n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kwita ku barwayi.

Umugabo wicaye munsi y'igiti kinini cyane cy'umuvumu yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ukuboko kumwe gushyize hasi ukundi kure hejuru y'ukuguru kwe inyuma ye hari inzu irimo irahinguka yicaye ahantu heza cyane.

Umuganga wishimye arimo araseka, yambaye rinete afite igikoresho mu ntoki afite n'ikindi ku rutugu kimwe bishe abaganga bifashisha, ari kumwe n'abana bigaragara ko arimo aratanga ikiganiro.

Icyapa kiriho ibitaro bya Butaro, biherereye mu Rwanda, bikikijwe n'abantu batandukanye, harimo abirabura bo mu Rwanda n'abazungu, bashobora kuba ari abakozi bakora kuri ibi bitaro.

Icyumba gikorerwamo siporo kirimo ibikoresho byabugenewe mu gukora siporo bimwe byifashishwa mu kwirukanka, gupima umuvuduko umuntu akoresha mu kwirukanka, harimo n'ibindi byifashishwa mu kwagura imitsi y'amaguru binyuze mu kunyonga n'ibindi bitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga cyuzuyemo intebe, ibitanda by'abarwayi byiza cyane by'iterambere, ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi no kubitaho ni ahantu heza hagaragara ko hateye imbere.

Ivuriro ryitiriwe umwami Fayizari, riherereye mu mujyi wa Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda, ni ivuriro rifite agaciro gahenze cyane hano mu Rwanda, rimeze neza rifite ibyapa bitandukanye imbere yaryo, buri wese yakwishimira kuritembereraho cyangwa kuryivurizamo kuko batanga serivisi nziza cyane.

Igitanda cyiza cyane kiri kwa muganga, kiri mu cyumba kimeze neza, hari n'ibindi bikoresho byabugenewe, byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma abarwayi no kubakurikirana.

Ahantu hari umugabo wambaye imyenda, biragaragaza ko ashinzwe umutekano, abo twita abasekirite hari n'abaturage basanzwe barimo baratambuka, ibyapa bitandukanye byinshi by'ubururu n'icyatsi, ni ahantu hasa n'ahantu heza cyane.

Igitanda cyiza cyane, kiriho ishuka y'umweru, gifite matora yambaye umwenda w'ubururu, iruhande rwacyo hari ekana zabugenewe, zerekana umubiri w'umurwayi uko umeze, binyuze mu mashini zabugenewe zisuzuma umurwayi.

Umwana mutoya yicaye mu kagare k'abantu babana n'ubumuga biragaragara ko afite ikibazo cy'amaguru, yifashisha akagare mu kugenda, yicaye ahantu heza arimo arareba imisozi.

Isange one stop center. Ni ikigo gishinzwe kurenganura abahuye n'akarengane mu Rwanda, ndabona iki ngiki ari igiherereye mu murenge wa Rukoma, ni akarere ka kamonyi, intara y'Amajyepfo.

Agace keza karimo inyubako nziza ama jardin meza, indabo zitandukanye, imihanda myiza ipavomye harimo abantu bari kugenda. Ndabona umugabo uri kumwe n'akana n'undi mwana ubari imbere.

Icyumba kirimo ibikoresho bihambaye cyane byo kwa muganga bikoranye ikoranabuhanga riri ku rwego rwo hejuru, harimo ibitanda, imashini bifashisha mu gusuzuma abarwayi no kugenzura indwara zabo, harimo umugabo urwaye ari kugitanda urabona ko ari icyumba kiri ahantu hasa n'ahateye imbere cyane.

Icyumba kirimo abantu bagaramye ku bitanda, ndabona barimo barakora igikorwa cyiza cyane cyo gutabara abarwayi kuko barimo baratanga amaraso cyangwa se mu Rwanda tubyita gutanga ubuzima.

Ishashi zabugenewe abaganga bifashisha mu gufata amaraso avuye mu butabazi urabona ko hano ibishashi byuzuye babishyize ahantu hamwe.

Hano hari ikigo cyubatse ahantu heza gikorerwamo ubushakashatsi bujyanye n'imiti giparitseho imodoka nziza ifite ubusitani bwiza ni ahantu heza cyane.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byiza hari agatanda k'abarwayi, ameza, akabati urukarabiro, harimo itara ririkwaka, ni icyumba cyiza cyane kirimo amakaro.

Inyubako nziza cyane iri ahantu hitegeye, harambuye, irageretse cyangwa se ni etaje, imbere yayo hari abagabo bane bahagaze, batatu bari mu gatsinda kabo, undi umwe ahagaze inyuma y'imodoka ihaparitse.

Ibitanda byiza cyane biriho supanete hejuru zimanitse, amarido meza cyane kandi burigitanda gifite ububiko bwabyo ntibizwi nk'akabati biri ahantu heza cyane mu cyumba kwa muganga.

Inyubako iri ukwayo yonyine, ni inyubako isize irangi ry'umweru, isakaje amabati y'ubururu, iruhande rwayo ya haparitse moto, ku rundi ruhande imbere hari pano imwe ifasha kubona umuriro binyuze mu mirasire y'izuba, ni inzu y'ababyeyi babyariramo.

Ibyicungo by'abana byubatse mu gipangu, nta muntu numwe uhari ni ibyicungo biri mu mabara abiri ubururu, icyatsi.

Igitanda cyiza cyane kiri kwa muganga mu cyumba kimeze neza, gifite ibikoresho byabugenewe bisuzuma abarwayi binagenzura uko umurwayi ameze, bifite agateleviziyo inyuma ku mutwe, aho barebera mu mubiri w'umurwayi, bifite n'ibimashini byabugenewe hejuru, bireba umurwayi uko ameze.

Mu icyumba cyiza cyane kirimo ibikoresho bihambaye bya kijyambere harimo igitanda, intebe, akabati n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi no kubasuzuma.

Abantu benshi batandukanye bifotoreje imbere y'inyubako y'Ivuriro rya Rwamagana, harimo abirabura, abazungu, baravangavanze bose.

Umuganga w'umukobwa cyangwa se w'umumama, arimo arasuzuma umwana w'umu umukobwa ukiri mutoya, indwara yifashishije igikoresho cyabugenewe mu gupima umuvuduko w'amaraso.

Ahantu heza cyane hari inyubako nziza irimo ibikoresho bya kijyambere harimo intebe z'amoko atandukanye nziza cyane n’ahantu ubona rwose hari igikorwa remezo cy'akataraboneka kuko nta ari urugo rw’umuntu.

Mu icyumba kirimo ibikoresho bihambaye by'ikoranabuhanga byifashishwa kwa muganga mu kwita ku barwayi, mu kubasuzuma, mu kubavura n'ibindi byose bijyanye no kwa muganga, kirimo ameza yifashishwa n'abaganga n'abarwayi, kirimo imashini zifashishwa mu kureba aho umurwayi ageze akira, ni ibikoresho bihambaye cyane byo kwa muganga.

Umukobwa avunikiye muri siporo yambaye imyenda y'imikara, yicaye ku gitanda kwa muganga, imbere ye hari umusore urimo uramuha ubutabazi bw'ibanze arimo aramupfuka ikirenge. Agize ikibazo ku gatsinsino.

Umuganga wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu yambaye na baje mu ijosi, ari kuvura umurwayi. Umukobwa ari kumurambura amaguru, uwo mukobwa aryamye ku gatanda k'abarwayi areba hejuru.

Umukobwa ukunda gukora siporo cyane, biragaragara ko umubiri we umenyereye siporo, afite agataye keza, afite umusatsi mwinshi, arunamye, arimo arigorora, yashyize ukuboko inyuma mu mugongo, ukundi gufashe ku mano.

Umukobwa wicaye ku gikoresho cyabugenewe mu gukora siporo cy'ubururu. Yarambuye amaguru, yahinnye umugongo, amaboko ye yayafatishije munsi y'ikirenge, yambaye agakomo keza, yambaye n'isengeri y'umuhondo arimo guseka.

Hano hari icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi batandukanye bari ku bitanda byabo, gihagazemo abaganga n'umuyobozi w'abaganga, hari televiziyo iri mu cyumba barimo barakurikirana inyigisho ziri kuyinyuraho.

Umusore yari ari muri siporo ahura n'akabazo mu itako urabona ko ahise yicara arimo arakanda itako rye ngo yumve ko yakongera korohama.

Umusore wambaye isaha n'inkweto nziza, agakabutura, hejuru yambaye ubusa arimo arakoresha umubiri we, ari muri siporo nziza.

Hano ni kwa muganga hariumugabo wahuye n'ikibazo mu kuguru yaje kwivuza, aho ikirenge gihuriye n'ukuguru bita mu kabombogore hagize ikibazo ari kumwe n'umuganga uri kumwitaho ari kumushyiriho bande ifasha umubiri kwegerana.

Umusore wambaye agapira k'umukara yambaye kora y'umweru n'umukara yambaye agakabutura k'umweru n'umukara, yambaye inkweto z'umweru n'umukara amasosagisi y'umweru, yambaye udukomo ku kuboko, afite imisatsi y'abasitari ari ahantu heza cyane ari gukora siporo.

Umukinnyi wa rugubi yahuye n'akabazo kukuboko asohoka mu kibuga umuganga ari kumwitaho ari kumushyiraho imiti aho yahuye n'ikibazo.

Umukobwa mwiza. Uri kunywa amazi. Afite imisatsi myiza. Izirikiye inyuma, urabona ko ari umukobwa uvuye muri siporo.

Umugabo ufite umubiri mwiza cyane ukomeye ,urabona ko ari umusore arimo aranywa amazi ,kuko arasa n'umuntu uvuye muri siporo.

Umuntu wambaye umupira w'umukara ufite amaboko magufi urabona ko ari gutanga ubutabazi bw'ibanze ku muntu wagize akabazo mu ivi ni ibintu byiza cyane buri wese yagatanze.

Umusore ari muri siporo afite ibakwe ryinshi cyane, yambaye inkweto z'umukara, ikabutura irimo umukara n'umweru n'umutuku n'isengeri y'umweru, afite tatuwage ku kuboko, ku ruhande rwe hari umugore wambaye ipantaro y'umukara arimo aramwitegereza.

Umusore wicaye usa naho ari kuruhuka, ari kunywa amazi, ikigaragara cyo avuye muri siporo arananiwe.

Umukobwa wunamye ahinnye amavi, yambaye ikabutura y'umukara, isengeri y'umukara arambura amaboko hasi, ari gukora siporo ngororamubiri, ni byiza ko umuntu akora siporo, kuko aruhuka mu mutwe kandi ubuzima bwe bukagenda neza.

Umusore; ari muri siporo ahantu mu cyumba cyabugenewe gisanzwe gikorerwamo siporo, afite umugozi uziritse ku byuma ukaba unaziritse ku kuguru kwe kw'iburyo, arimo arakoresha ukuguru akuzamura yongera akumanura.

Umukobwa uri muri siporo, arimo arinanura, yambaye imyenda y'imikara, ipantaro, iserengeri, afite imisatsi miremire, yicaye iruhande rw'igitanda, imbere ye hateretse igicupa cy'amazi yo kunywa.

Umukobwa ukiri muto ari kwinanura, yambaye agasengeri ka siporo, yambaye ekuteri, mu gutwi yambaye isaha, biragaragara ko arimo aragorora umubiri we, ari muri siporo.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo afite akantu yambaye ku kuboko abikamo terefone, arimo aranywa amazi ikirenzeho yambaye imyenda y'imikara.

Umugabo yari avuye muri siporo yumva mu ivi rye harimo ikibazo aricara, arimo arahakanda kugirango ngo yumve ko yamera neza. Ukuboko kwe kuriho agakomo, kuriho n'impeta nziza cyane.

Ifoto iriho umusore arimo arimo arimenaho amazi mu maso yifashishije igicupa kinini, yambaye agatambaro ku kuboko yambaye iserengeri y'icyatsi.

Umwana w'umukobwa yicaye ku buriri, mu ivi rye harimo ikibazo afiteho igipfuko arimo aragikoraho birashoboka ko ari kuribwa.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi ari muri siporo. Yambaye agasengeri k'icyatsi, ikabutura y'ubururu n'inkweto z'amabara menshi atandukanye. Ari kuri tapi y'icyatsi arimo arasunika ibyuma.

Akagare k'abantu bifashisha bafite ikibazo cyo kugenda, muri make nta kagari k'banntu babana n'ubumuga bwo kutagenda, kubabatse neza gafite amapine y'umukara aho bicara h'umukara aho bafata h'umukara, kagarayagiwe n'ibyuma by'umutuku.

Inzu ya siporo yabugenewe harimo abasore babiri barimo barakora siporo umwe yashinze ivi hasi ukundi kuguru kurahagaze arimo arakora siporo undi amuhagaze iruhande ari kumurebera.

Umugore n'umugabo bateranye imigongo, bacuritse umutwe, umwe yashyize umutwe ku wundi bari kunywa amazi baragaragara nk'abantu bakunda gukora siporo cyane.

Umukobwa mwiza cyane ufite taye nziza arabyutse yambaye imyenda y'imikara, ipantaro y'umukara agasengeri k'umukara afite imisatsi myiza miremire arimo arinanura.

Abatabazi bazwi nk'abantu batanga ubufasha bw'ibanze ku bantu bahuye n'ikibazo cy'ubuzima, bari mu kibuga bambaye amajiri yabugenewe y'imituku igaragaza abatabazi, barimo barita ku muntu wahuye n'ikibazo ari mu kibuga.

Ibikoresho byo kwa muganga ndahabona intebe ya kijyambere yicaraho abarwayi igihe bari gusuzumwa indwara, igikoresho kibasuzuma kiri hejuru, n'utubati n'utundi dukoresho tw'ibanze twa kijyambere tumeze neza cyane.

Umusore wambaye imyenda y'imikara hasi no hejuru, ari muri siporo yambaye agasaha k'umukara, yambaye inkweto z'umweru n'umukara n'amasogisi y'umweru arimo arigorora ahantu hubakishije ibiti, yashinze ukuguru imbere ku biti ukundi kuri hasi.

Umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi umupira wa lakoste w'umweru aricaye arimo arakanda akaboko yifashishije agatambaro ashobora kuba afite ikibazo mu kuboko.

Umusore wubatse umubiri, ari muri siporo, icyaka cyamwishe, arimo aranywa amazi, bigaragara ko ari umusore rwose witabira ikintu cya siporo.

Urubyiruko ruri mu itsinda ry'abatabazi, bambaye amajire y'umweru, hariho ikirango cy'umutuku, bari kwitoza ukuntu batanga ubutabazi bw'ibanze.

Umukobwa wambaye iserengeri, afite isume ku rutugu, afite agacupa k'amazi arimo aranywa ikigaragara cyo arimo arimara inyota avuye muri siporo.

Hano hari umukobwa urwaye mu ivi yaje kwa muganga bamushyizeho igicuko cy'umutuku, hari n'ikindi kizengurutse vi cyumweru, arakwitabwaho n'umuganga.

Umumama wambaye agapfukamunwa wambaye n'agakomo ku kuboko, yiteye igitambaro cy'umuhondo afite akana gatoya yakazanye kwa muganga, imbere yabo hari umuganga wambaye imyenda y'ubururu afite igikoresho gisuzuma abana mu kiganza ari mu kazi.

Umuravumba ni ikimera gikunzwe cyane kwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, cyane cyane abantu barwaye inkorora nibo bakunda kugihekenya, kuko kirabafasha cyane.

Tungurusumu, ni ibihingwa bivura indwara zitandukanye ariko abantu benshi barabitinya kubirya kuko iyo ugihekenye, wumva utuntu tukwirukanse mu mubiri kuko ifite ubukana buhambaye, iyo uyiriye wumva itandukanye n'ibindi biribwa.

Umuti uri mu gacupa k'umweru, iruhande rwawo hari amashusho agaragaza amara y'umuntu handitseho ko uyu muti ari igisubizo ku ndwara y'amibe.

Hano hari ubwoko bw'ibimera burinzwe bigaragara ko buba bwitaweho cyane, buri ahantu hubatse neza, ndabona ari ubucuruzi bwitaweho cyane.

Hano hari uducupa twabugenewe twifashishwa mu kubika imiti neza, ni imiti ya kinyarwanda iva ku bimera urabona ko iri kwitabwaho kugirango ngo babashe kuyibika neza.

Aha hari imiti y'amoko atandukanye hari imiti ifungiye mu dukarito hari n'ifungiye mu tujerekani nubwo ntari gusobanukirwa icyo ino miti ivura ariko ni imiti isa nk'ihenze.

Ibimera ni imiti yabugenewe mu kuvura indwara zitandukanye, iri kumwe n'agakoresho gakozwe mu giti kabugenewe mu kuyitunganya, karayisekura, bakayibika imeze neza kugira ngo yifashishwe mu kuvura.

Ibinini byiza cyane, ibinini bya gakondo bikoze mu bimera, bisa icyatsi, biri mu kantu keza kabajwe mu giti.

Hano hari imiti gakondo, ikoze, mu bimera, hari indabo z'icyatsi n'umuhondo, hari amavuta, hari inanasi hari imineke, urabona ko ari ibintu bikungahaye ku ntungamubiri, byose ni ibifasha umubiri.

Hano hari imiti gakondo yatunganyijwe ivanywe mu bimera ni amacupa ane atandukanyije amabara, ariko bwose mu bwoko bwitwa arowe bwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Tangawizi, iki ni igihingwa kiza cyane gikunzwe kwifashisha ku bantu batameze neza mu mubiri, bakagihekenya cyangwa se ushoboye akagiteka mu cyayi akakiywa, kirafasha cyane.

Imiti ya kijyambere izwi nk'ibinini ni myinshi iri hamwe ku kibabi cy'ikimera gisa neza cyane.

Icyumba kirimo abantu batandatu, babiri muri bo bambaye umweru bari kumwe n'umumama uhagaze iruhande rw'amoko menshi cyane y'inzoga, abandi babiri biragaragara ko ari abakiriya n'undi wa gatatu uri gusohoka, bari mu iduka ricuruza inzoga.

Ifoto iriho imbuto zitandukanye: icunga, manderena, indimu, zimwe muri zo zarahishije urabona ko zeze neza.